Ikirundo cy'ibitaka byinshi birunze ahantu hamwe, hirya yabyo hari igiti ndetse hari nahantu, hasakaye hirya mu muhanda nyabagendwa harimo imodoka ebyiri zose zifite ibara ry'umweru.

Umudamu ukenyeye igitambaro cy'umukara mu mutwe, wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'indi jure y'akazi, bigaragara ko ari gucuruza. Afite telefone mu ntoki. Hirya ye hari inyanya zipakiye mu tudobo, bigaragara ko ari zo ari gucuruza.

Abantu batatu harimo abagabo babiri ndetse n'umudamu umwe, umugabo umwe yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ikoboyi ndetse n'inkweto z'umweru, undi mugabo yambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'ikoboyi n'inkweto zifunguye, umumama ubahagaze hagati nawe yambaye umupira urimo amabara ndetse n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru zifunguye.

Imodoka nziza itwara abantu batarenze batanu, iyi modoka isa nk'umukara ndetse biragaragara ko ari shyashya kuko ihagaze ahantu hasa nk'aho ari mu cyumba aho bagurishiriza amamodoka.

Abagabo batatu, babiri bambaye imipira y'umweru ndetse n'amapantaro y'amakoboyi, undi umwe yambaye ishati ijya gusa n'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara yambaye na fime, bafite utubage tw'umutuku mu ntoki, ndetse hirya yabo haparitse imodoka yumweru.

Imodoka nziza y'umukara icanye amatara magufi ndetse n'amatara ndangakinyabiziga, biragaragara ko iyi modoka iri kugurishwa kuko handitseho amagambo agaragaza igiciro cy'iyi modoka.

Abagabo babiri umwe yambaye umupira w'umukara n'ipantaro isa nka kacyi n'inkweto, ndetse n'undi wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru bahagaze imbere y'imodoka ya fuso y'Akagera.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'imodoka y'umweru nini, umugabo umwe yambaye umwenda wakazi usa nk'ubururu abandi bagabo bambaye amashati inyuma hariho utujire twakazi n'amapantaro y'umukara bose.

Imodoka ebyiri z'umukara ziparitse ziri hamwe, imibare iranga imodoka itagaragara isiribangishije ibara ry'umweru ndetse n'igipangu gikorotiriye, hakurya y'igipangu hari ibiti ndetse n'ipoto ry'amashanyarazi.

Abantu bane bicaye mu cyumba cy'inama. Harimo abamama babiri n'abagabo babiri. Ndetse imbere yabo hari ameza. Harimo umugabo umwe uhagaze ufite telefone mu ntoki, ndetse n'undi mudamu wambaye agapfukamunwa k'umukara n'umudamu na we yambaye agapfukamunwa n'umukara.

Urugi rw'ubururu impande yarwo hari amabido asa umweru ya jibu avamo amazi yo kunywa, impande yayo mabido hari firigo isa umweru harimo udukombe tubiri, ak'umweru mu kabati kambere ndetse nak'icyatsi mu kabati ka kabiri.

Umugore uri gusuka amata mu bikombe, ni ibikombe bine ndetse impande yabyo hateretse n'ijage, afite akadomoro ka cumi n'atanu, niko ari gukuramo ayo mata, biragaragara ko ari abantu agiye kuyaha.

Ameza y'umweru ateretseho ijage ipfunduye isa nk'ubururu ndetse n'umufiniko wayo, imbere yaho hari kontwari irimo amagi, imbere ya kontwari hahagaze umuntu, inyuma y'uwo muntu uhagaze hari etajeri irimo amata y'inyange ndetse na ji ya pome ndetse n'andi makarito avamo amaji y'inyange

Inode esheshatu z'amafaranga, harimo amafaranga ijana y'i burayi, ndetse amafaranga ibihumbi bibiri akoreshwa mu Rwanda, andi mafaranga ijana, ndetse n'amafaranga ibihumbi bitanu nayo akoreshwa mu Rwanda.

Amakuru agaragazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, aya makuru akaba yanditse ku rupapuro rw'umweru ruhabwa umuntu ugiye gusaba iyo gahunda y'imisoro n'amahoro, biragaragara ko ari akarere ka Gasabo.

Urupapuro rutangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, uru rupapuro ruhabwa umuntu wagiye gushaka imisoro uko ayitanga ndetse urupapuro biragaragara ko hariho aho rwatangiwe ko ari Kicukiro.

Inote enye zitandukanye ebyiri muri zo zanditseho mirongo itanu indi imwe yanditseho icumi, iyindi yanditseho makumyabiri, zose ziri mu mabara atandukanye.

Abantu babiri bigaragara ko bari guhererekanya amafaranga, umwe afite akantu kabikwamo amafaranga mu ntoki gasa nk'umukara ndetse gafite n'imashini igafunga, undi ayafite mu ntoki biragaragara ko ari kubara ayo afite.

Igitanda bigaragara ko bari bari kukibaza kitararangira neza, ariko hirya yacyo hari ibindi bikoresho bikoze mu mbaho bigaragara ko nabyo ari igitanda cyangwa se intebe bigaragara ko hano hantu ari aho bakorera ibikoresho bikozwe mu mbaho cyangwa mu biti.

Akabati gakozwe mu biti kari gusigwa irangi biragaragara ko ukuboko k'umuntu kuri gusiga irangi aka kabati gateretse hejuru aho bari kugasigira mu nzu hasakaye hasi hateye sima hejuru hari parafo ifite ibara ry'umweru.

Imeza ibaje mugiti ndetse n' intebe zegamirwa nazo zibaje mubiti ,zirimo imisego, hirya yazo hahagaze akabati Nako ubona ko kabaje mubiti Kandi gafunze kameze neza.

Intebe nziza zo kwicaramo zisa umukara zifite imisego ifite amabara yu'mweru n'umukara ndetse imbere yazo hateretse ameza maremare hafi yameza hari utundi tumeza tubiri duto twose dusize ibara ry'umweru.

Uruganiriro bigaragara ko rugizwe n'intebe ndetse n'ameza, intebe zikoze mu biti ndetse ziriho n'imisego, ameza na yo akozwe mu biti ariko hejuru afite ibara ry'umweru, ndetse aho biri mu ruganiriro hubakishijwe amakaro hasi ashashe ndetse asa neza.

Intebe ndetse n'ameza bigaragara ko zikozwe mu mbaho, ziri mu nzu ishashemo amakaro y'umweru, ndetse hirya yaho hari n'akabati kagaragara ko nako gakozwe mu mbaho, hari amadirishya biragaragara ko ikirere gikeye.

Ameza abiri asa umukara akoze mu ishusho ry'uruziga, hirya yaho hari izindi ntebe nazo zisa umukara zikoze mu biti ziriho n'imisego bicaraho hariho n'ameza nayo akoze mu biti byose bisize irangi ry'umukara.

Intebe zo kwicaraho zikunda gushyirwa mu cyumba cy'uruganiriro izi ntebe zifitemo imisego abantu bisegura ndetse n'iyo bicaraho biragaragara ko ari nk'ahantu hari icyumba baganiriramo.

Mumasaha ya nijoro haragaragara umuhanda ndetse n' inyubako ifite amatara ayaka n' imodoka iparitse, imbere yiyo nyubako ndetse n' amatara yo kumuhanda ari gucana nijoro, imbere y' inyubako hari ibiti kumuhanda.

Inyubako ndende nziza ifite amarangi y'ubururu ndetse n'umweru, igisenge gisize irangi ry'umuhondo imbere y'inyubako hari ubusitani bwiza burimo indabyo ndetse n'ibindi biti bitandukanye imbere y,ubusitani hashashe amabuye ahiye.

Inyubako ndende yubakishijwe amatafari ahiye ndetse inyubako biragaragara ko yubatswe ku buryo butangaje, imbere yaho hari umuhanda winjira muri iyi nyubako ndetse ifite ibirahure bisa umukara wijimye, biriho utuntu tw'umweru turinda ibyo birarahure ko byakwangirika.

Umutobe usa nk'umuhondo uri mu birahuri, hirya y'aho hari inanasi ndetse n'izindi mbuto biri mu kintu kimwe, hari n'imineke iruhande rwaho biragaragara ko ari aho batunganyiriza umutobe bawukuye muri izo mbuto baba bari gukora.

Ibimenyetso bishyirwa ku muhanda byaka, ibi bimenyetso bishyirwa ku muhanda kugirango ngo byereke abakoresha umuhanda icyo bagiye gukora. Iyo byaka biba biburira abakoresha umuhanda ko bagiye kugenda cyangwa se bagiye guhagarara, hirya y'aho ibimenyetso byubatse hari inyubako ndende bifite amabara y'umuhondo ndetse n'umweru.

Icyumba cy'uruganiriro bigaragara ko aha hantu ari aho abantu baganirira. Harimo intebe nziza zegamirwa zifite ibara ry'umweru ndetse n'umusego kuri buri ntebe. Hagati y'intebe hateretsemo ameza agezweho, ibirahuri ndetse hejuru y'ameza hateretseho n'indabo nziza z'umutako.

Ubusitani bwicarwamo n'abantu, muri ubu busitani hagiye harimo ahantu hatandukanye abantu bakicara bari gufata amafunguro cyangwa se bari kuganira. Bigaragara ko harimo ibiti birebire bifasha kuzana umwuka mwiza muri ubu busitani igihe abantu bicayemo.

Ubusitani bwiza burimo ahantu abantu bicara, muri ubu busitani biragaragara ko harimo ahantu abantu biyakirira nkiyo bagiye gufata amafunguro cyangwa se bari kuharuhukira cyangwa se bari kuganira biragaragara ko harimo ahagiye hasakaye ndetse n'ahandi hadasakaye.

Inyubako nziza igeretse bigaragara ko iyi nyubako yubakishijwe amatafari ahiye ndetse ifite amabara y'ubururu bwerurutse hafi yinyubako hari ubusitani ahantu abantu bicara iyo bugamye izuba.

Inzu igeretse kabiri bigaragara ko ituwemo ndetse impande yayo hari andi mazu matoya. Imbere y'inzu, hari ubusitani burimo ibiti birebire ndetse n'indabyo zitandukanye. Iyi nzu ifite amadirishya afite ibara ry'umweru ndetse n'ibirahure na byo bisa nk'umweru.

Abantu batatu; harimo abagabo babiri ndetse n'umudamu umwe. Umugabo umwe yambaye agapfukamunwa kajya gusa umweru. Undi mudamu yambaye agapfukamunwa k'umukara. Imbere yabo hateretse mudasobwa, bigaragara ko bari kuyikoresha.

Umugabo uhagaze mu muhanda nyabagendwa hagati, yambaye ishati y'umweru n'ipantaro ijya kumera nk'umukara ndetse yambaye n'inkweto z'umweru, imbere ye hari inyubako ndende zubatse ku buryo bugezweho ndetse hakurya y'umuhanda hari n'abandi bantu bigaragara ko bamwe bari guturuka mu nyubako, abandi bayijyamo.

Inyubako ndende, ifite amarangi y'ubururu ndetse n'umweru. Hari inyubako ikoreramo ikigo cy'ubwishingizi cya purayime, agashami ka Musanze. Munsi yayo hari umugabo wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ingofero y'umukara, wambaye n'agapfukamunwa.

Umudamu wambaye amaherena, ndetse yambaye n'ikanzu ifite ibara ry'icyatsi, yambaye n'isaha ku kuboko kw'ibumoso, yewe afite ikarita mu ntoki bigaragara ko ari gukoresha bya byuma by'ikoranabuhanga, abantu bakoresha babikuza amafaranga.

Hano biragaragara ko ari mu isoko ry'imbuto kuku haragaragaramo abantu benshi bari gucuruza imbuto zirimo inanasi, imineke ndetse n'imyembe n'inyanya bigararagara ko bari gucuruza imbuto.

Umuntu wambaye igisarubeti cy'ubururu wikoreye umufuka w'umuzigo hejuru y'uwo mufuka hari akandi gafuka gato. Ndetse hari n'abagabo bashinzwe umutekano bari hirya ye harimo uwambaye imyenda y'icyatsi kibisi ndetse n'uwambaye imyenda y'umukara.

Isoko ry'ibiribwa ryubakiye ndetse rinasakaye isoko harimo abagore bigaragara ko aribo biganje bari gucuruza harimo ibitunguru, amashaza, karoti, ndetse n'ibindi bitandukanye harimo n'imboga.

Abantu benshi bahagaze ahantu hasa nkaho ari mu isoko bacuruzamo ibiribwa, harimo umugabo wambaye ishati y'umuhondo ndetse n'undi wambaye agapira k'umuhondo hari umugabo wunamye imbere y'ibitoki wagirango niwe ucuruza ibyo bitoki biri imbere y'abo bagabo.

Isoko ry'ibiribwa hari abantu benshi harimo abagabo bambaye amashati y'umuhondo ndetse n'ay'umweru, hari ibitoki byinshi hari n'umuntu wunamye hafi y'ibitoki bigaragara ko hari abagabo bashaka kugura ibitoki.

Isoko ry'ibiribwa ririmo abantu benshi ariko cyane cyane hari kugaragaramo abagore, bari gucuruza ibiribwa bitandukanye, harimo intoryi karoti ndetse n'urusenda ku ruhande. biragaragara ko aba bantu bakora ubucuruzi muri iri soko.

Isoko rinini bigaragara ko ricururizwamo ibiribwa, kuko harimo ibiribwa bitandukanye, harimo n'abantu benshi. Haragaragara ibitoki byinshi birunze ahantu hamwe, hagaragara ko ariho abantu bashaka kugura ibitoki ariho bahahira. Ndetse hari n'abagabo babihagaze impande ndetse n'undi mwana w'umukobwa wambaye ijipo y'ikoboyi.

Abamama babiri bahagaze mu isoko ry'ibiribwa, umumama umwe yambaye ishati y'umweru akenyeye n'igitenge, mu mutwe akenyeye agatambaro k'umweru ahagaze impande y'ibitunguru ndetse n'inyanya. Hirya ye hari undi mumama wambaye ibitenge bisa ndetse n'igitambaro cyo mu mutwe gisa nk'ibitenge yambaye, nawe ahagaze impande y'ibitunguru ndetse n'imineke.

Ibase y'icyatsi irimo amafi, ndetse n'undi muntu ufite icyuma muntoki, uri gutunganya amafi mu ibase y'umutuku bigaragarako ari kuyavana mu ibase y'umutuku amaze kuyakorera isuku, akayashyira mu ibase y'icyatsi asa neza kugirango abone uko ayagurisha.

Abantu babiri umugabo n'umugore, umugore ari mu kazu k'ubucuruzi gatangwa n'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda cya emutiyeni ndetse umugabo ahagaze inyuma bigaragara ko hari nk'ikintu ari kubaza uyu mugore, umugabo yambaye ishati y' ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara.

Ipikipiki ihagaze iriho akantu k'icyatsi bashyiramo ibintu kanditseho vubavuba, bigaragara ko iyi pikipiki ikora itwara ibintu bya vubavuba, ifite imibare iyiranga ya gatandatu gatanu gatatu fa.

Umuhanda w'amabuye uparitseho moto ndetse n'umumotari. Umumotari yambaye kasike y'icyatsi ndetse n'umupira w'cyatsi ni'ipantaro y'ikoboyi. Umupira uyu mumotari yambaye biragaragara ko akorera ikigo kuko wanditseho ibirango by'ikigo bita vuba vuba ndetse n'iyi moto ye iriho agatwara mizigo kanditseho ibirango bya vuba vuba

Abamotari benshi bari kuri moto bambaye amakote abaranga yanditseho yegomoto bigaragara ko ari imyenda y'akazi imbere yabo hari imodoka ya toyota isa n'umweru bambaye amakasike asa umutuku ndetse n'amakote asa umutuku.

Inzu nziza yubatse ku buryo bugezweho, ifite imiryango myiza ndetse ifite n'amadirishya, amadirishya ateye irangi ry'umweru ndetse n'ibirahure by'umukara byijimye. Iyi nzu biragaragara ko iri kugurishwa kuko handitseho amagambo agaragaza ko iyi nzu igurishwa miliyoni ijana na mirongo ine, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali.

Inzu irimo intebe zo mu ruganiriro zo kwicaramo zirimo n'imisego ndetse n'ameza afite ishusho ry'uruziga imbere y'aho hari icyuma cy'ikoranabuhanga kigaragaza amajwi n'amashusho inzu iteye irangi ry'umweru ndetse ifite na parafo nayo iteye irangi ry'umweru.

Icyumba cy'uruganiriro kirimo intebe ebyiri ndetse n'ameza intebe, imwe isa nk'umweru irimo n'umusego w'umweru ndetse n'undi w'umukara indi ntebe ifite ibara rya kacyi nayo irimo umusego w'umweru ndetse n'undi w'umukara ,imeza irimo ifite ishusho y'uruziga hasi hubakishije amakaro hirya hari indi saro ntoya nayo irimo intebe ndetse n'ameza.

Icyumba cy'uruganiriro kirimo intebe z'umweru zo kwicaramo ndetse hari n'ameza y'umukara, biri mu nzu y'uruganiriro hasize irangi ry'umweru hari n'amatara hejuru ari kubonesha muri icyo cyumba cy'uruganiriro.

Inzu nini ifite urugi ku marembo rufite ibara ry'umukara ndetse biragaragara ko iyi nzu baba bayigurisha, kuko hejuru handitseho amagambo agaragaza ko iyi nzu igurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu.

Inyubako ndende igeretse gatatu yubakishijwe amatafari ahiye, utubaraza twayo dusize irangi ry'umweru, ndetse munsi y'iyo nyubako hateye indabyo hari n'amatafari ashashe aho imodoka zihagarara.

Inzu nziza yubatse igeretse imbere y'inzu hari jaride irimo indabyo ndetse impande ya jaride hubatse neza hamwe n'amakaro aho, ari aho imodoka yaparika inzu ifite inzugi z'umweru ndetse n'amadirishya y'umweru ateye irangi ry'umweru.

Ahantu hari inzu bari kubaka ndetse nibwo imirimo yo kuyubaka ubona ko irimbanyije, harimo abagabo bari kubaka ndetse hari n'abandi bantu bari kubahereza ibyo bakoresha mu kuyubaka.

Inzu ifunze ifite umuryango n'idirishya, umuryango usize irange ry'umweru ndetse urimo n'ibirahure byijimye by'umukara n'idirishya na ryo risize irange ry'umweru rifite ibirahuri byijimye by'umukara, imbere y'inzu hari amakaro ashashe hasi.

Inzu ndende igeretse kane igaragara ko ari ahantu hari ibiro by'abantu batandukanye, munsi y'iyo nzu aho imodoka zihagarara, hari imodoka eshatu zifite ibara ry'umukara, biragaragara ko iyi nzu ariyo abantu bikorera bahakodesha.

Inzu y'umweru isize amabara y'umweru ndetse ifite inzugi zisize ibara ry'umukara, harimo ibirahuri by'umukara byijimye. Ndetse ku rubaraza hari amakaro yubatse neza bigaragara ko iyi nzu ari igurishwa.

Inzu nini igaragara ko ari iyo guturamo, ifite amadirishya y'umweru ndetse n'inzugi z'umweru, imbere y'iyo nzu hubakishijwe amakaro ashashe hasi ku rubaraza, hari inkingi zubatse kuri iyo nzu zifashe ibaraza ry'imbere.

Isoko ry'ibiribwa ririmo abantu benshi batandukanye, cyane cyane hagaragaramo abagore bari gucuruza imbuto ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye bose bafite intego imwe yo gucuruza.

Abagore babiri bahagaze ahantu hacururizwa inkweto ndetse n'ibindi bikoresho bigendanye no kwambara, aba bagore harimo abambaye ikanzu y'amabara ndetse n'undi wambaye ishati y'amabara ni'ijipo y'umutuku, biragaragara ko baje guhaha.

Ikarita y'ubwisungane mu buvuzi isa nk'umuhondo haragaragaraho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara yerekana igihugu cy'u rwanda ndetse na minisiteri y'ubuzima, akarere ka kicukiro bigaragara ko ari umuntu uyifashe kuko hari kugaragara intoki enye z'umuntu.

Umuhungu wambaye agapfukamunwa k'umukara, wambaye n'ishati irimo amabara y'umukara n'umweru . Afite igipapuro kinini mu ntoki cyerekana amazina ye ko yitwa Mucyo Williams ndetse hariho n'amafaranga bisa nkaho ari igihembo yahawe ,ku bw'imirimo yakoze cyangwa se ikindi kintu yaba yarakoze kikamuhesha iki gihembo.

Abantu benshi bari ahantu hamwe bambaye imipira iriho ibarangantego ndetse harimo n'umuntu ufite umupira bakina wamaboko biragaragara ko hari ibyapa binini byanditseho ngo "Ejo heza" birasa nkaho ari ubukangurambaga buri gukorwa ku bijyanye n'ejo heza.

Umuntu wicaye ku ntebe ikozwe mu biti, wambaye ishati y'amabara ndetse n'ikabutura, ufite ikarita y'ubwisungane mu buvuzi biragaragara ko ayifite mu ntoki ari gushaka serivisi zo kwivuza.

Ikarita y'ubwisungane mu buvuzi, iyi karita yerekana ko nyirayo afite ubwisungane mu buvuzi, iba ifite ahanditse imyirondoro ya nyirayo ndetse ikaba isa nk'ibara ry'umuhondo, amagambo yandikishije mw ibara ry'umukara.

ikarita isa ibara ry'umuhondo irimo ikirango k'igihugu cy'u Rwanda bigaragara ko ari ikarita y'ubwisungane mu buvuzi, yanditseho minisiteri y'ubuzima umujyi wa Kigali akarere ka Kicukiro.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, imbere yaho hari ibyatsi ndetse hari ababyeyi bahicaye, bateze ibitambaro mu mutwe. Hari umubyeyi ubahagaze imbere w'umumama, uri kugenda abahereza impapuro.

Abagabo n'abagore bicaye mu cyumba cy'inama bicaye ku ntebe zisa zigaragara ko ari izakozwe mu mbaho, ndetse imbere yabo hicaye abandi bantu nabo bicaye ku ntebe zigaragara ko ari iz'imbaho bari mu nzu ifite parafo y'umweru ndetse ifite n'amadirishya biragaragara ko ari ku manywa.

Isoko rigezweho ricururizwamo ibintu bitandukanye, harimo umugabo ari kugura inzoga bigaragara ko afite icupa, ari kwitegereza ubwoko bw'inzoka. Yambaye umupira usa nk'ubururu urimo n'utubara tw'umweru ndetse n'ipantaro ijya gusa nk'ibara ry'igitaka, nayo irimo amabara y'umweru.

Ibiribwa bitandukanye biri ahantu hamwe, yewe buri cyose kigiye kiri mu gapaniiye kacyo, harimo ibishyimbo ndetse n'ibinyobwa ndetse na soya n'ibindi binyamisogwe bitandukanye, impande yaho hateretse imineke ndetse n'inanasi biragaragara ko ari aho bacururiza ibintu bijyanye n'ibiribwa ndetse n'imbuto.